Amarembo y'ibitaro bya Ruli, hakaba hari icyapa cyanditseho hopitalede Ruli, Ruli bikaba ari ibitaro biherereye mu Ntara y'Amajyaruguru, bitanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi cyangwa se zo kuvura abantu.

Iduka ririmo gucururiza ahantu n'umukobwa w'inzobe wambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba yicaye no kuri laputopu. Laputopu akenshi mu bucuruzi yifashishwa mu gihe barimo bakora amatike se, cyangwa se na none ikifashishwa mu gihe barimo bakata za fagiture z'ibintu biba bya konsomwe .Ni iduka ricuruza ibintu bitandukanye. urugero, nk'ibikoresho byo mu gikoni ndetse n'ibindi.

Icyatsi cy'umwenya ni icyatsi gifite akamaro gakomeye cyane mu buzima bwa muntu, kuko iki cyatsi kifashishwa havurwa indwara zitandukanye, harimo ise, indwara zo mu nda, indwara zitandukanye ziterwa n'ibintu bitandukanye. Akaba ari icyatsi gikenerwa cyane rwose kugira ngo havurwe ibintu bitandukanye.

Abaturage benshi bari gukora ikiraro cy'ibiti, bari kugenda bagisana bahuza ibiti. Ikiraro cy'ibiti ni ikiraro gikorwa ahantu hagendwa n'abanyamaguru, akenshi na kenshi kikaba gikorwa mu cyaro, kuko nticyanyuraho ibinyabiziga.

Igiti gikoreshwa havurwa indwara, gifite amababi y'icyatsi, cyitwa igiko, kikaba kigira n'amahwa mu mpande yacyo, iyo ukozeho ashobora kuba yagupfuma...

Icatsi cya nyamwihina umuntu akoraho akumva kirimo lasitike, ico catsi kandi ni umuti kuko kivura indwara zitandukanye haba izo mu nda n'izindi ndwara zitandukanye zo ku mubiri.